Ubwato bwuzuyemo udufi dutoya bamaze kuroba, hari n'umugabo uhagaze hejuru y'ubwato harimo n'umurunga wa masine, buri buparitse ahantu ku nkombe z'ikiyaga ahahegereye ibyatsi.

Aha ku nkombe z'amazi hari abagabo bafite akadobo karimo amazi hakaba n'ikijerekani baciye umunwa, harimo umugabo wunamye afashe ku ndobo imwe y'umutuku indi y'icyatsi, hari n'abandi bagabo bane bari kumwitegereza n'undi uri hino imbere y'ikijerekani giciye umunwa.

Insina ni igihingwa cyishimira ahantu hari amazi, izi ngizi turi kubona zabaye neza, zirabyibuha, ziratoshye, kubera ko hafi yazo hari amazi agomeye, ahagana hepfo y'amazi naho hari izindi nsina, wareba hakurya ukahabona inyubako ziri ahantu hameze nko mu ishyamba zisakaje amabati.

Aba bahinzi barishimye cyane, aho basaruye ibishyimbo byinshi none bari kubirenga bakabigabana. Bahinze mu ishyirahamwe none bari kugabana ngo buri wese ajyane ibye. Hari ubahagarariye wambaye ingofero ya gisirikari, afashe n'ikayi yo kubandikamo, bari kujya barenga mu ndobo buri wese bakamuha ibye.

Gukorera hamwe burya ntako bisa bitera ibyishimo. Aha turahabona abadamu bose bishimye ikigaragara bari gukorera hamwe mu itsinda. Bari mu isambu wagira ngo irimo ikawa bose bafite imyenda, bakenyeye imyenda bakaba biteze n'ibitambaro.

Abasoromyi b'icyayi basoroma bakoresheje ubuhanga, aha hari umudamu uhetse intebo y'icyayi ari guseka, ari gusoroma ashyiramo mu ntebo ahetse mu mugongo, hirya ye hari undi, ahagana hakurya hakaza abandi bari mu cyayi, hirya inzu iri kugaragaraho ibara ry'umweru n'amadirishya afunguye.

Umugore uri gusoroma icyayi ashyira mu mwenda yakinnyeye kunda, yambaye isaha, yikinyije n'umwenda yitwikiye mu mutwe, n'agatambaro k'umutuku. Inyuma ye hari abandi bagore batatu, umwe yiteza agatambaro k'umutuku n'ikoti ry'umukara, hirya hakaba abandi babiri nawe umwe yambaye agatambaro k'umutuku, ahetse umwenda imbere ari gushyiramo icyayi. Bose ni abasoromyi b'icyayi bari kugira ngo bakijyane imodoka ikijyane.

Uducupa dutatu twose turi kugaragara ko turimo imiti gakondo aho turiho ibirango, inyuma yatwo hari utundi twinshi cyane turi mu cyumba kimwe uretse ko utu ari two bafotoye tugaragara neza kubera aritwo turi hafi twegereye kamera barifotora twose turimo umuti.

Imiti gakondo ahanini yose ishyirwa mu ducupa twabugenewe kugira ngo itangirika, iyi yo iri mu ducupa twinshi dutondeganyije dufite imipfundikizo, hariho ifite udufite iminwa mitoya n'udufite iminwa minini gusa icyo duhuriyeho twose dupfundikishije imipfundikizo y'umweru.

Aha turimo turabona uducupa twinshi cyane turimo umuti, hariho udufite imipfundikizo y'umutuku, hakabamo n'utundi dufite imipfundikizo y'umweru turi munsi y'agakarito, iyi ni imiti yifashishwa mu kuvura.

Inka nyinshi zikurisha harimo izisa ibihogo, hakabamo iz'umukara zifite utubara tw'umweru ku gahanga zambaye amaherere zirizihiwe ikigaragara nyirazo ni umworozi wabigize umwuga kuko zifashwe neza cyane.

Uyu muhinzi ari guhinga ahantu mu kibara kinini cyane cyari cyararaye kubera kumara igihe kinini batagihinga, yambaye isengeri, akaba yambaye ipantaro yahinnye ukuguru kumwe kw'iburyo akugeza mu mavi, inyuma ye ahsgana hakurya hari umusozi munini cyane.

Aha turabona umugore wikoreye intebe yo muri pulasitiki isa ubururu, yambaye imyenda iribaya n'ibitenge byabo bisa icyatsi afashe terefone mu ntoki, inyuma ye hari umusaza wicumbye inkoni yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ingofero n'ishati y'igitaka, bari kugenda ahantu mu busitani bw'ibyatsi, hirya hari ibintu by'ibyuma by'ubururu bikoze uruzitiro.

Iki ni icyapa kikiri i Nyagatare kivuga ahantu mu ikusanyirizo ry'amata aho bayacuruza, hashushanyijeho inka y'amabara y'umweru n'umukara hakaba handitseho ngo Nyagatare deyiri maketingi bisobanura aho bakusanyiriza amata muri Nyagatare.

Abahinzi babiri umukobwa na mama we bari guhinga intabire, bose bari guhinga bishimye aho bambaye imyenda isa igitaka, bakaba bari guhinga ahantu hepfo hari insina z'urutoki n'ibisheke, hakurya y'aho hari umusozi munini urimo ibiti byinshi.

Ubworozi bw'inka bwa kijyambere buba busaba ko uba ufite ikiraro ndetse hari n'aho inka zirira habugenewe, aha turahabona umusore wambaye ipantaro y'umweru n'agapira afite inka enye zose ziri kurira mu kintu cyabugenewe zubakiye neza ndetse n'ikiraro kirasakaye n'umworozi wabigize umwuga.

Iki ni ikigori kigeze aho kwera, ni ibigori bibiri hirya yabyo hari ibyatsi byinshi, ikigaragara aha ngaha ni umurima w'ibigori byarumbye hameramo bibiri gusa cyangwa se akaba ari bibiri byimejeje mu kibara.

Ibigori n'ibihingwa iyo bimaze gusarurwa bihita byuma. Muri uyu murima harimo ibigori basaruye hagasigaramo ibitiritiri byabyo none bitangiye kuma kubera ko nta bigori biriho hasi hari ibyatsi hararaye kubera ko hamaze igihe kinini hakenewe guhingwamo iyindi myaka.

Uruyuzi ni ikintu cyiza cyane kigira ibihaza byiza, ni igihingwa kiryoha ndetse bamwe bagikoresha mu guteka indyo za gakondo, aho bateka ibihaza byabo byo ahandi bagateka ibyo bita ibisusa biba bigizwe n'ibibabi by'uruyuzi.

Iyi ni isambu ariko idahinze, ruguru y'aho harimo igiti gifite uturabyo tw'umuhondo kinini kigandaraye, ahagana hepfo nta myaka irimo n'ibyatsi birimo ni bikeya, harimo utwatsi turandaranda n'akantu gatoya wagira ngo ni isombe nta yindi myaka irimo.

Uyu ni umuhanda usa nabi wagira ngo uri mu kibara kubera ko udakorerwa isuku, aha uciye mu ishyamba ry'ibiti bimwe biri epfo y'umuhanda, ibindi biri ruguru yawo mo hagati hakaba harimo ibyatsi ndetse n'ikibuga, hari gucamo n'imodoka iri kuza igana hano.

Ishyamba rinini ry'inzitane harimo inyubako ifite amabati y'icyatsi inyubako ntigaragara munsi uko imeze ntiwamenya niba ari iy'ibiti cyangwa se iy'amatafari gusa haragaragara amabati yonyine aha na ruguru hakaba hari iyindi yubakishije ibiti isakaje amabati nta bindi byubatse ku ruhande imeze nk'ikirobetero.

Mbega imisozi myiza cyane ibereye ubukerarugendo we, hari kuvamo izuba, hari ibiti byiza birabagirana, hari imisozi hakurya myiza ibereye ijisho pe! Nawe nagushishikariza kuhagera ukihera ijisho.

Imisozi myiza cyane itatse ibyiza nyaburanga nk'ibimera, ibiti bikuze ku misozi ibiri itandukanye mo hagati haciyemo umubande. Harimo ibiti byiza cyane bigaragara ko byavamo umuti wakwifashishwa mu kuvura indwara za gakondo. Ni ahantu heza hagaragara ko habereye kuhatemberera.

Umukobwa ahagaze mu ishyamba hagati y'ibiti bibiri binini cyane, aho ari kwifotoza yambaye inkweto n'amasogisi maremare n'ipantaro imwegereye cyane, yambaye agapira gatoya cyane ku buryo umukondo uri kugaragara, yambaye na karuvati y'umukara ndetse n'ingofero ayikozeho.

Umugabo wambaye agakote k'umuhondo gafite ibipesu by'umukara, yambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'icyatsi, ari kugenda mu murima we w'inanasi atembera ngo arebe ko hariyo yabona yeze ngo ayice ayishyire abana bayirye.

Ubuhinzi bugezweho bwose bakoresha uburyo bwo kuhira amazi. Aho aha bahinze amateke mu gishanga, none bashyizemo itiyo ifite utugezi twinshi dutandukanye. Bafunguye amazi ari gutarukira mu myaka hose. Ubu buryo bwifashishwa no mu gihe cy'imvura cyangwa se mu mpeshyi nta mvura iri kugwa kuko imirima ihora itose.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwose buba bwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'umurasire wifashishwa mu kuvomerera imyaka. Izi nyanya zihinzwe neza zisasiye, ziratoshye. Hari akabase bifashisha mu kuhira n'uyu murasire ukwega amazi ukayazana bakuhira iyi myaka yabo.

Mu gihe cy'Impeshyi aba ari ngombwa guhinga ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho. Twifashishije udukoresho twa kizungu twitwa arozwari. Aha turabona umwana w'umuhungu wambaye ikabutura n'agapira; ari kuhira imyaka ye kugira ngo izabe myiza mu gihe izuba riba ryabaye ryinshi imvura yabaye nke.

Uyu musozi nta bihingwa biriho hari ibiti byonyine by'ishyamba, ahagana mo hirya hakaba hari udutabire duhinnze dutoya tudateyemo imyaka ndetse hari n'ibyatsi byinshi n'ibiti bito, hakurya hari indi misozi iriho ibiti byegereye ibicu.

Hano hari imisozi miremire cyane, hagana munsi yayo hatuyemo abantu. Aha bari kwerekana ko ari abantu batuye mu manegeka, hari inzu z'amabati n'ikiraro cy'inka, mu misozi harimo ibiti ni ahantu hadahingwa.

Ahantu hatuwe n'abantu bagikoresha isakaro gakondobo ry'amategura, hari inzu ebyiri inzu nini n'igikoni, igikoni kiriho amategura mashyashya n'akandi kari inyuma kari kuzura, hari hepfo urutoki ahagana hakurya hakaza imisozi iri kugaragara neza iriho ibiti n'ibyatsi.

Ndabona inkoko nyinshi cyane z'ubwoko bwiza z'inkokokazi ziri aho zibera mu kabuti kazo, nyirazo yazishyiriyeho akantu kamanitse hejuru gashobora kuba ari ako yifashisha azigaburira.

Izi ni ihene za kijyambere, zororewe mu kiraro kigezweho cya kijyambere, gikoreshejwe imbaho, hari umushumba wazo ufite inkoni, yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara na bote, izi hene zirashimishije kuko zorowe neza.

Aha turahabona inka nziza isa umutuku inyuma, imbere ikaba isa umweru ku mutwe ku gahanga yambaye iherena, iri guhengereza hagati y'udutiyo tubiri tw'umutuku, ishaka kuvamo cyangwa se ikaba iri kureba abantu bari hanze.

Ingurube iyo yishimye ijya mu byatsi n'ibyondo ikigaragura, iyi iri kwigaragura mu bitaka kugira ngo ibashe kwinezeza, aho ibitaka byayitarukiyeho n'udushishi tuyiriho mu mugongo ku mabara yayo meza y'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, ari hamwe n'undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'ubururu, aho baje kuragira inka nyinshi, baje kuzikingiza, aha kugira ngo bazipime bazitere n'intanga.

Aka ni akameza gafite amapine kari mu cyumba kirimo amakaro nk'uko bizwi ahantu hose hari amakaro kugira ngo atangirizwa n'ibikoresho biyakorobora bashyiramo ibikoresho bifite amapine kugirango bijye bibasha kugenda, aka kantu rero gafite amapine kugira katazangiriza aya makamaro

Ingurube ni itungo ryiza ritanga umusaruro. Uyu muntu yoroye ingurube mu buryo bwa kijyambere ayambika iherena. Aha yahatse imaze kurya none iriryamiye, iryaye mu byatsi mu kiraro cyayo imeze neza cyane.

Ingurube ebyiri z'umweru ziri mu kiraro aho imwe yasamye indi iri kurima ibitaka, ziri mu kiraro cyubakishije ibiti biba bishinzwe bagateraho imbaho ku ruhande, iki kiraro ni icyabugenewe ni cyiza cyane.

Iyi ngurube iri kwitegereza yibereye mu kiraro kitarimo ubwatsi, ikiraro gishyashya ariko kicyuzura cyubakishije ibiti ndetse ku mpande hariho imbaho kugira itazavamo, ni ikigurube cyiza cy'umukara n'umweru kibyibushye gishishe.

Ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bwiza cyane butanga umusaruro ushimishije mu gihe gito, aha turabona umuntu wabigize umunshinga akaba afite inkoko nyinshi nziza z'inkokokazi zitera, ziri kurya zizihiwe cyane, ziri mu cyumba zibamo kirimo amatara kugira ngo zige zihora zicanye ziri kureba.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza kandi bwungura. Aha turabona uyu muntu wabigize umwuga korora inkoko yoroye inkoko z'amabara zifite amashunzu y'umutuku; zose ni inkokokazi zitera, yari kuzigaburira ibiryo byazo ku kintu kimeze nk'umuvure wabugenewe.

Aha turahabona inka nyinshi ziri mu kantu k'akarararo ziri kugenda aho bari kuziterera inanga, inyuma hari abo twita abaveterineri bari kujya bazitera inanga, hariho abambaye ibisurubeti'iby'umweru n'abandi bambaye ibisurubeti by'ubururu, n'undi wambaye ingofero bose icyo bahuriyeho bambaye bote bamwe iz'umweru abandi iz'umukara.

Ibi ni ibiganza bine byose bifite ibishyimbo bitandukanye, aho bari kubigereranya uw'iburyo afite ibishyimbo by'umweru n'utundi dusa igitaka, hakaza n'undi w'ibumoso ibiganza bye bibiri bifite ibishyimbo by'umuhondo n'ibindi by'amabara ajya gusa iroza n'utundi tuntu.

umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umweru n'umukara, akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, ari guhungura ibigori byanitse hasi, ibi bigori ariko kujya arabifata akabicaho amababi, akabika kugirango ngo azabashe kubihungura bimeze neza byumye, ku buryo bizavamo imbuto nziza.

Umworozi wese wabigize umwuga aba agomba kujya akingiza amatungo ye akayitaho nk'uko bisanzwe. Uyu mugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu yatumijeho umuveterineri wita ku matungo ngo aze amuterere iyi nka ye intanga. Bayishyize mu kantu k'akararo aho imbere n'inyuma bahatambika igiti kugira ngo itabona uko itambuka barangiza bakayitaho.

Aha turabona umukobwa ufite imisatsi iri kumanuka ikora mu mugongo miremire, aho yagize umushinga wo korora inkoko akaba ari kuzigaburira afashe ku kantu k'umutuku kamanitse hejuru, yambaye igisurubeti cy'icyatsi n'inkoko zimwe ziri ku dutanda izindi ziri hasi ziri kumwitegereza.

Inka bari kuyitera intanga, aho bashyize mu kararo kabugenewe bayitambika ibiti, imbere n'inyuma, barangiza bakayifata kugira ngo itinyeganyeza. Ifashwe n'umuntu wambaye itaburiyariya y'umweru, ahagana hino hari undi wambaye igisarubeti cy'ubururu.

Iyi hene babaze bayiciye agasebe ku ijosi veterineri araza akabanza agapima akareba ko inyama ari nziza ko abazirya zitabagiraho ingaruka, veterineri yambaye udupfukantoki tw'ubururu ari kujombamo agashinge ari gupima.

Ubworozi bw'inkoko iyo umuntu yazitayeho neza zimuha umusaruro, uyu mugabo we yakoresheje ibiti mu kirere kugira ngo igihe zirambiwe kuba hasi zijye zigurukaho nibyo bizishimisha, inkoko kugira ngo uzorore neza bisabwa kuba ufite ahantu heza hisanzuye ku buryo zibaho zisanzuye harimo iz'umutuku n'iz'umukara zose zimeze neza.

Inyamaswa z'impyisi zirakundana cyane. Aha hari impyisi nkuru, iri kurigata akana kayo, gahagaze mu giti hejuru kari kuyireba. Bire ahantu imusozi hasi hari ibyatsi bikeya cyane, bitari kugaragara neza.

Isha ni akanyamaswa kikundira ahantu h'umukenke, niyo mpamvu aha karimumukenke, mutsi dutoya cyane, kakunda kuturisha, kari guhengereza kareba abantu, hari n'ibiti imbere yako byiza.

Inyamaswa yitwa Impara ifite amabara y'umweru n'umukara. Iba ahantu mu ishyamba. Aha yibereye ihagaze itegereje kurisha ibyatsi. Hirya hari ibiti byumye ndetse n'ibindi biri hakurya bitoshye, ni ahantu mu ishyamba hatagerwa n'abantu.

Inyamaswa zose zo mu gasozi zikunda kujya koga, aha turabona inzovu eshanu, ziri mu mazi ziri koga, ziri kuvamo zigenda zisatira inkombe, kugira ngo zijye mu ishyamba aho zitaha.

Aha turahabona isambu y'ishyamba ariko ritameze neza kubera ko ibimera ntabwo byakuze, harimo ibiti byumye amababi, hakaza ibyatsi byumye ndetse uharebye ni ku gasi nta mvura ihagera n'ubutaka bwaho burashaririye cyane.

Aha turahabona inyamaswa imeze nk'imbeba, ihagaze ku giti cyumye gikase hejuru gisenye, hirya hari ikibara kirimo ibyatsi by'icyatsi n'ibindi byumye bisa umuhondo.